Umugore wambaye amarineti ndetse akaba yambaye imyenda idoze mu gitenge, iruhande rw'iwe hakaba hari abagabo ndetse n'inyuma yiwe hakaba hari abandi bantu. Akaba ari abantu bicaye bitegeye imbere nkaho bari mu nama cyangwa se bakaba barimo gusenga.

Ni abaturage benshi bicaye mu mahema akaba ari abaturage biganjemo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore akaba ari abaturage bari mu nama, iyi nama ikaba yakusanyije abaturage bangana batya kugira ngo bahabwe amabwiriza ndetse bungurane ibitekerezo bose hamwe.

Ni mu nama aho umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ijire y'umuhondo akaba akorera sosiyete ya MTN, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ndetse na telefone. Imbere yiwe hakaba hari umwana w'umukobwa ndetse n'undi umuri iruhande.

Ni abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye imbere y'ameza ameze neza atwikirije ibitambaro by'umweru, kuri ayo meza yarambitseho amakayi ndetse n'amakaramu barimo bifashisha bandika, bakaba biteretse n'uducupa tw'amazi imbere yabo ku yindi meza hakaba hari za mudasobwa abangaba uko bigaragara bari bari mu inama.

Ni mu nama, aho hateraniye abantu benshiba, akaba ari abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abo mu nzego z'umutekano, zirimo urwego rwa gisirikare ndetse n'urwego rwa polisi, aba ngaba bakaba bari mu nzu nini iteraniyemo abantu benshi, aho buri muntu afite icupa ry'amazi.

Umugore uhagaze imbere akaba ari umugore wambaye amarinete, akaba afite agatabo bandikamo amakuru, akaba afite n'indangururamajwi mu ntoki, aho inyuma y'iwe hari hari icyapa kigaragaza yuko ko ibintu byagakwiye gukorerwa mu isibo, akaba ari umugore urimo gutanga inama aziha abaturage.

Ni mu cyumba cy'inama aho muri iki cyumba cy'inama hari amabara ari mu ibendera ry'u Rwanda, naho muri iki cyumba hakaba harimo abapolisi bambaye impuzakano, aho buri mupolisi wese afite agacupa k'amazi. Naho hakaba hari n'umukameramani urimo ufata amafoto y'ibiri kubera muri iyi nama.

Ni umugabo wambaye amarineti, akaba yambaye ikote risa n'ivu akaba akaba afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'abantu, inyuma yiwe hakabaditse ishoramari mu Rwanda, akaba arimo abwira abantu ibyiza byo gushora imari mu Rwanda.

Ni mu nama aho tabiriwe n'abantu benshi, akaba ari abantu bo mu ngeri zitandukanye, hakaba higanjemo abantu bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'abambaye imyenda y'ubururu, bakaba bari mu mahema ndetse akaba ari ihema rifite imitako imbere.

Iyi nama yitabiriwe n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, harimo ab'urwego rwa gisirikare aho mu nzego zitandukanye, iyi nama irimo abantu benshi nk'uko bigaragara, buri muntu afite icupa ry'amazi kandi uko bigaragara barimo bumva imbwirwaruhame y'umuyobozi n'umuyobozi.

Inama iri kubera ahantu hagutse cyane, ndetse iyi nama ikaba irimo abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abo mu nzego z'umutekano z'u rwanda, hakaba harimo abantu bitabiriye inama, buri wese yahawe n'amazi yo kunywa.

Abagabo batatu bicaye imbere, aho buri wese afite agacupa k'amazi muri abo bagabo batatu harimo ukuriye urwego rwa gisirikare ndetse n'ukuriye urwego rwa polisi. Muri hagati y'aba bagabo hakaba harimo umugabo ufite indangururamajwi, urimo uvugana n'undi mugabo uhagaze imbere wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite indangururamajwi y'umutuku.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo bakaba bambaye imyenda izwi mu muco nyayarwanda izwi nk'imyitero aba bakaba babyina imbyino nyarwanda, izi mbyino akaba ari imbyino zikunzwe gukoreshwa bagaragaza umuco ndetse n'umwihariko w'abanyarwanda.

Ababyinnyi gakondo bo mu muco nyarwanda bazwi ku izina ry'intore bakaba ari benshi barimo babyina uw'imbere akaba afite icumu ndetse akaba yambaye n'umugara mu mutwe.

Umugore wambaye umupira w'umweru akaba ari umugore uri mu isura y'urukara, akaba akenye agatambaro mu mutwe ndetse akenyeye n'akandi gatambaro ku mpanga, mu mutwe w'iwe hakaba harimo n'akandi gati kaganisha inyuma, uyu mugore akaba yiteye imyitero nyarwanda.

Abakobwa batanu akaba ari abakobwa bambaye imyitero akaba ari abakobwa bari bambariye umugeni, iyi myitero ikaba isanzwe iri mu muco nyarwanda ikaba ikoreshwa mu kwambara mu birori bitandukanye.

Ni umugabo wambaye akagofero mu mutwe ndetse n'ikote rinini, akaba yambaye ipantaro y'umukara, imbere y'iwe hakaba hari ibibindi byamenetse ndetse n'ikindi kibindi kizirikishijwe amakoma kirimo n'imiheha, akaba ibi ngibi akaba ari umugabo ukora ibi ngibi arimo aterekera, ibi ngibi bikaba bisanzwe bizwi mu muco nyarwanda.

Ni umugore ukenye imyitero y'umweru warambuye amaboko urimo aseka cyane akaba ateze udutambaro duto cyane mu mutwe akaba ari imbere arimo arabyina imbyino za kinyarwanda.

Ni ababyinnyi barimo ab'abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyitero izwi ku izina ry'imishananana. Akaba ari ababyinnyi barimo babyina ahantu hateguye neza ndetse ruguru yabo bakaba bafite urimo ubakomera, urimo ukoma ingoma.

Inzu nyabami nyarwanda akaba ari inzu yubatse ahantu hagari, ikaba ifite imbuga nini cyane, iyi nzu ikaba ifite aho binjirira hasize amarangi y'umutuku ndetse n'ay'umweru, hasi akaba ari inzu dusangamo amateka y'umuco nyarwanda ndetse n'ibyaranze abami b'u Rwanda.

Umukobwa wicaye imbere akaba yambaye agapira k'umuhondo, naho umuri iruhande aka yambaye agashati ka karokaro, iruhande rw'uyu mukobwa uteze agatambaro mu ijosi akaba ari umugabo wambaye amarineti bakaba bicaye mu mbaga irimo abantu benshi.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo, akaba ari ababyinnyi bagaragaza umwihariko w'umuco Nyarwanda, cyane y'uko iyi mbyino tuyisanga mu muco Nyarwanda, bakaba bafite ingoma bifashisha barimo bavuza kugira ngo bibafashe kujyana n'imbyino bashaka kubyina.

Ni mu murima aho hari imyaka ihinzemo ndetse muri uwo murima hakaba harimo mo ibyuma bitambutsa umuriro w'amashanyarazi, bikaba ari ibyuma byubakiye muri uyu murima, ibi byuma bikaba byifashishwa mu kwambutsa amashanyarazi biyakura mu gace kamwe biyajyana mu kandi, amasinga aciye mu kirere.

Umusore wambaye impuzankano zikoreshwa mu bijyanye n'amashanyarazi, akaba yambaye ubwirinzi mu mutwe, akaba ari hejuru y'ibyuma bitambutsa amashanyarazi, akaba arimo arabikora kugira ngo birusheho gutanga amashanyarazi nta kibazo.

Kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma. ikintu niba ari kizima, ikintu niba gikora neza, akaba ari agakoresho kifashishwa mu gupima niba igikoresho runaka cy'ikoranabuhanga ari kizima cyangwa kitagikora.

Ni mu cyumba aho muri iki cyumba hari umukozi ushinzwe kwita ku mashanyarazi ndetse no kuyatunganya, akaba yambaye uturindantoki ndetse n'isaha ku kuboko. Muri iki cyumba akaba ariho wabasha gukupira umuriro ndetse no kuwukupura. Aho hangaha hari insinga nyinshi zibasha gutwara umuriro ziwuvana mu gace kamwe ziwujyanwa mu kandi, akaba ari naho umuriro wabasha kuwuhagarikira kugira kugira ngo udateza inkongi mu gihe byabaye ngombwa.

Ni umunara akaba ari umunara utambutsa utambukaho insinga z'amashanyarazi. Ukaba wifashishwa mu kubika amashanyarazi ndetse no kuyasarangantanya mu ngo zitandukanye hafi y'aha ngaha hakaba hari inyubako ndetse n'indabo ziri hafi yazo.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe, uri kurira igiti, gitambukaho insinga zitwara amashanyarazi, akaba ari umusore wambaye inkweto zabugenewe, akaba yambaye n'uturindantoki ndetse n'agapfukamutwe. Akaba yizitse imigozi mu nda.

Ni inyubako yubatse ku muhanda akaba ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho, hanze hanze mu gipangu mu nyubako hakaba hamanitse ibendera ry'u Rwanda, naho hanze hakaba hari hakaba hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu.

Ni inzu nyinshi akaba ari inzu zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inzu zifite amabati yo mu bwoko bumwe, akaba n'inzu zisakaye mu buryo bumwe, hafi y'izi nzu hakaba hari amapoto atambutsa insinga z'amashanyarazi, aya mashanyarazi akaba asangatanywa muri izi nzu ziri hafi aha.

Ndi ku cyicaro gikuru gishinzwe gutanga ndetse no gukwirakwiza amashanyarazi, ahangaha hakaba hari ibyuma byinshi ndetse n'imihanda myiza igana iganayo, akaba ari ibyuma birimo ibyifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse no kuyatunganya.

Ni ibikoresho bikoreshwa mu mashanyarazi, akaba ari ibikoresho bikoreshwa iyo ushaka gufungura umuriro cyangwa se iyo ushaka kuwufunga, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu kurinda ahantu kuba hafatwa n'inkongi ndetse no kuyikumira.

Ni ninjoro aho amatara yo ku muhanda arimo araka, ndetse hakaba hari imodoka zirimo zitambuka, harimo imodoka y'umweru irimo itambuka mu muhanda wa kaburimbo, ndetse hakaba hari n'indi iri kuza yacanye urumuri ituruka imbere y'imodoka yacu y'umweru.

Insinga zitambutsa amashanyarazi akaba ari insinga zitambutsa amashanyarazi muri uyu mudugudu, akaba ari umudugudu utuwe n'amazu menshi muri aya mazu hakaba hakikijwe n'insina nyinshi muri uyu mudugudu aho buri rugo rugiye rufite igiti kigiye kiriho amasinga aganisha umuriro muri buri rugo.

Ni ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'amashanyarazi, akaba yuriye icyuma gitambutsa amashanyarazi, akaba arimo arayatunganya kugira ngo abashe kuva mu gace kamwe ajyemo kandi nta kibazo, akaba yiziritse ibyuma kugira ngo atabasha guhanuka kuri iri poto hejuru.

Ni mu mihanda ya kaburimbo aho muri iyi mihanda harimo abantu bagenda batambuka bagenda, aho muri iyi mihanda hagati na hagati y'umuhanda w'imoso ndetse n'iburyo hari ubusitani, muri ubu busitani hakaba hari ikiranga abantu kibereka y'uko hirya hari aho imodoka ziparika.

Umumotari utwaye umugenzi, bageze ku kiraro, iki kiraro kikaba gifite ibyuma bibikikije ku mpande byatangira umuntu kuba yagwa munsi y'icyo kiraro, bikaba bifite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku.

Ni nyubako ndende akaba ari inyubako iri mu mabara isize amarangi y'umweru, akaba ari inyubako ikorerwamo ikanatunganyirizwamo umusaruro w'amata. Akababa ari amata akomoka ku nka.

Icyapa gitandukanye u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, aho hari abantu bari kwambukiranya imipaka bava mu Rwanda bajya mu gihugu cya Uganda. Hakaba haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'abantu bahicaye hafi aho ngaho. Hakaba hari icyapa cya Uganda kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikindi cyanditse mu ibara ry'icyongereza n'igifaransa no mu kinyarwanda riri mu ibara ry...

Ni inyubako nini akaba ari inyubako ya leta ikaba ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, aho ikikijwe n'ibyuma bitangira abantu kuba bahasagarira uko bibonyeye.

Ni umugore n'umugabo, akaba ari umugore wambaye igitenge akaba yambaye n'amarineti, inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye ishati. Imbere yabo hakaba hari inzu yubakishije amatafari, kuri iyi nzu hakaba hometseho ikirangabantu kiri mu idarapo kiri mu ibendera ry'u Rwanda. Aha ngaha hakaba hatangirwa serivisi za leta

Ni mu nyubako ya leta akaba ari inyubako iberamo ibikorwa bitandukanye aho muri iyi nyubako harimo intebe nyinshi ziganje izo mu bwoko z'amarangi y'ubururu akaba ari inyubako zicarwaho n'abantu baje kureba imikino itandukanye ibera muri iki gikorwa remezo.

Ahagabanya igihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo akaba ari ho u Rwanda rugarukira ndetse na Congo akaba ariho itandukanira n'u Rwanda, aha ngaha akaba ariho abavuye mu Rwanda binjirira bagiye muri Congo naho abavuye muri Congo binjirira bavuye muri Congo baza mu Rwanda.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru gikoranya abantu benshi, hakaba hakinirwamo umupira w'amaguru ndetse no kuri iki kibuga hakaba haberamo imikino yo kwirukanka basiganwa ku maguru. Iki kibuga kikaba cyakira abafana benshi cyane.

Ni hafi y'igipangu aho hari umusore wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru akaba afite igikapu gifite ibara ry'umutuku, ku muryango w'igipangu hakaba hari umucungamutekano, akaba yambaye impuzankano ziri mu ibara rya kaki.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Akaba ari ikibuga cyubatswe mu buryo bugezweho. Akaba ari ikibuga kinini gifite aho, aho abafana bicara, ndetse iki kibuga kikaba gikorerwamo n'indi mikino itandukanye. Imikino irimo iyo kwirukanka ku maguru.

Ni ikigo cyisanzuye, akaba ari ikigo kinini, kikaba kiri hafi y'ishyamba y'ishyamba, iki kigo akaba ari ikigo cya Leta, kikaba gitangirwamo serivisi zirimo iz'uburezi ndetse hakaba hakorerwa n'amahugurwa atandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara wambaye ishati y'umweru watebeje, akaba akandagiye hejuru ya kandagira ukarabe, impande z'iwe hakaba hari indabo ndetse imbere yiwe hakaba hari hari inzu irimo abana ndetse n'abagore barimo bahagenda.

Ni inyubako nyinshi akaba ari inyubako za leta, hafi y'izi nyubako hakaba hari imihanda myinshi icacanamo, muri izi nyubako hakaba haberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, izi nyubako zikaba zakorerwamo ibijyanye no gutunganyirizwamo ibicuruzwa bitandukanye, izi nyubako zikaba ari iza.

Abasirikare aba polisi ndetse n'abashinzwe gucunga imfungwa, bakaba bahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'umukara wanditseho kwibuka ku nshuro mirongo itatu, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu ndetse n'undi mudamu uri imbere.

Umugabo uhagaze ufite inkoni, akaba ahagararanye n'abandi bagabo benshi bakaba bari mu gisambu, aho hakurya hari insina naho inyuma y'uyu mugabo ufite inkoni hakaba haparitse imodokari. Akaba ari abagabo barimo baganira naho umwe akaba yakuyemo ingofero.

Ni mu bwatsi, aho hari abantu batandukanye barimo abashinzwe umutekano nk'uwa gisirikare ndetse na polisi, hakaba hari umugabo wambaye agatambaro ka ibuka mu ijosi. Uyu mugabo akaba yahawe inka ya Girinka, akaba yayihawe n'urwego rwa leta.

Ni mu nama aho dusanga abayobozi bakuru bo mu nzego za polisi ndetse n'abandi banyacyubahiro biteretse amazi imbere ndetse bafite amakayi ndetse n'amakaramu bari kwandikamo ibintu.

Abagabo bane bambaye amakote, akaba ari abagabo bahagaze imbere y'inyubako yubatswe muburyo bugezweho, akaba ari inyubako ifite amabendera imbere yayo, ikaba ifite amabendera y'u Rwanda ndetse n'ay'igihugu cy'amahanga.

Abashinzwe umutekano mu rwego rwa Gisirikare ndetse no mu rwego rwa Polisi, bakaba bahagararanye n'abandi bagabo bambaye imyenda y'imikara, n'umugore wambaye umupira, wambaye ikanzu y'umuhondo, akaba ari abagabo barimo batsa urumuri.

Ni inama yitabiriwe n'abaturage benshi ndetse n'abayobozi ikaba yitabiriwe nabo n'abo mu nzego z'umutekano harimo nka Polisi, muri iyi nama iyobowe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati akaba afite indangururamajwi akaba arimo arasoma gahunda, gahunda zanditse ku rupapuro.

Umupolisi ndetse n'umugabo wambaye ishati ya kakaro, bafite impamyabumenyi bayifite mu ntoki. Inyuma y'uyupolisi ndetse n'uyu mugabo bafite impamyabumenyi mu ntoki inyuma ya hari abandi bagabo ndetse n'abagore bafite izi mpamyabumenyi mu ntoki.

Ni mu nama yitabiriwe n'abaturage benshi, akaba ari inama ijyanye n'ubutabera, iyi nama ikaba irimo abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho higanjemo ab'igitsina gore, iyi nama ikaba iyobowe n'umugabo ndetse inyuma y'iwe hakaba hari n'abandi baturage bicaye mu mahema.

Umusore ndetse n'imodokari iri mu muhanda, uyu muhanda w'amabuye, umuhanda utubatswe mu buryo bugezweho, gusa uyu muhanda uragaragara nkaho uri mu mihanda iteganya kuzashyirwamo kaburimbo. Iyi ni imodokadoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Ni umuhanda aho hari icyapa gishushanyijeho umunyamaguru, akaba ari icyapa gisobanura ko aho hantu ari aho kwambuka n'abanyamaguru, hafi y'aho ngaho kuri icyo cyapa hahagaze umugabo uri imbere y'akazu gacuruza amayinite ka MTN.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi, akaba ari imodoka iri mu muhanda, hafi yaho hakaba hari abangenzi, ndetse hari n'abari kuhakorera ubucuruzi hafi aho ngaho.

Ni ikiyoborabagenzi akaba ari ikiyoborabagenzi cyubatse mu murima hakurya y'umuhanda. Kikaba cyanditse cyanditswe mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'amabara agisize akaba ari amabara ari mu ibendera ry'u Rwanda. Kikaba gifasha abantu mu kubayobora.

Ni ku muhanda wa kaburimbo aho hari ikiyobora abantu kibereka yuko aho umuhanda ugeze hemerewe kwambukwa n'abanyamaguru, akaba ari ikiyobora abantu kiri hakurya y'umuhanda ahahegereye ishyamba, iki kikaba gifasha abantu ndetse n'ibinyabiziga kumenya yuko aho aho kiri hemerewe kwambukwa n'abanyamaguru.

Akaranga amerekezo kari ku muhanda, kakaba kegeranye n'umurima uteyemo imyaka itandukanye harimo nk'igiti cy'imyembe, aka karanga hantu kerekana y'uko umuhanda ugiye gukata.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho akaba ari umuhanda ufite ibiti mu mpande zose ndetse n'ibyuma bitambutsa amashanyarazi, hakaba hari aho kwambukira kw'abanyamaguru muri uyu muhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo akaba ari umuhanda ufite aho abanyamaguru bambukira, aho abanyamaguru bambukira hakaba hasize amarangi y'umweru. Utu tubona turi hakurya y'umuhanda, tukaba dukoreshwa n'abanyamaguru barimo bagenda kugira ngo badahanganira umuhanda n'abatwaye ibinyabiziga.

Akayobora abantu kari ku muhanda, kari mu ibara ry'umutuku n'umweru, kakaba ari akayobora gafasha abantu mu kubereka yuko bagomba kwambuka umuhanda.

Umugabo urimo useka uteruye ibuye. Akaba ari umugabo uri hafi y'insina ziteye, ziteye inyuma yiwe. Akaba ari umugabo bigaragara yuko arimo, arubaka kuko ateruye ibuye.

Ni abaturage benshi, akaba ari abaturage bari mu cyaro, akaba ari abaturage barimo umuganda, bakaba bari gukora igikorwa cy'umuganda rusange, barimo biyubakira umuhanda bazaba bakoresha barimo bakora ibikorwa byabo bitandukanye umunsi ku wundi.

Ni imodoka y'umukara iparitse hanze, iri imbere y'inyubako nini nziza, iri mu mabara y'umuhondo, ikaba ifite imiryango isize amabara ari mu ibara ry'ivu. Ndetse y'imodokari hakaba hari imitako irimo imikindo.

Ni abaturage benshi bakaba ari abaturage bari mu muganda wo kubaka inzu, bamwe muri aba bakaba barimo barahoma urwondo, n'aho abandi barimo bararutwara bajya kurwubakisha.

Umukobwa wambaye impuzunkano ya Gipolisi akaba ari umukobwa wicaye ku ntebe, imbere yiwe hakaba hari imeza, imeza ikaba irambitseho telefoni ndetse na mudasobwa akaba afite ikaramu mu ntoki.

Umupolisi uteruye ibuye uri kumwe n'undi mugabo wambaye inkweto za butini, wambaye ipantaro y'ubururu, ahaba ari kumwe n'undi mugabo wo hirya na we wambaye bote z'umukara.

Abaturage benshi biganjemo urubyiruko akaba ari abaturage bari hamwe bakaba bari mu bikorwa birimo iby'umuganda, bakaba barimo bubakira umuturage cyane ko iyi nzu isakaye, ikaba yari isigaje kujyaho imbariro ndetse n'ibyodo aka aribyo urubyiruko rwari rurimo rukora.

Umupolisi wambaye impuzankano akaba ahagaze imbere y'abaturage benshi cyane, harimo abaturage bicaye ndetse n'abandi bahagaze. Muri abo baturage hari ahateretse indangururamajwi ndetse iruhande rw'uyu mupolisi hakaba hari abaturage bicaye mu mashitingi bari kwirinda izuba.

Abaturage bamwe baricaye naho abandi barahagaze. Muri aba bahagaze harimo uwambaye umupira w'umukara aho umupira wiwe hariho ifoto y'umuyobozi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba ariwe Paul Kagame, abaturage bakaba bicaye munsi y'ibiti.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru wambaye impuzankano z'ubururu bwijimye, akaba ari mu kibuga imbere ye hakaba hari umupira w'amaguru wo gukina, akaba arimo akora imyitozo yo gukina umupira w'amaguru.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho harimo abakinnyi barimo bakina umupira bakaba ari abakinnyi bamwe bo mu ikipe yambaye ubururu bwerurutse ndetse n'abandi bakaba bambaye ubururu bukeye hakurya y'ikibuga hakaba hari abafana baje gushyigikira aba bakinnyi.

Abakinnyi bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'undi wambaye impuzankano zirimo impuzankano zirimo umukara, bicaye ku ntebe z'abasimbura, imbere yabo hakaba hateretse igikapu cy'umukara, bakaba barindiriye ko babakinira mu kibuga bakajyamo.

Abaturage benshi biganjemo urubyiruko akaba ari abaturage bari ahantu hagutse hanini bakaba barimo bakora imyitozo ngororamubiri, akaba ari imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza ndetse no guhangana n'indwara za buri munsi.

Ni urubyiruko rwinshi akaba ari urubyiruko ruri muhanda wa kaburimbo rukaba rwambaye impuzankano ya siporo rukaba rurimo rukora siporo ngororamubiri, ibi ngibi bikaba bifasha uru rubyiruko mu kubaho mu buzima bwiza ndetse no kubasha guhangana n'indwara zibasha gufata abantu umunsi ku wundi.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho harimo abakinnyi bakina umupira w'amaguru, ubona ko bakuze hakaba harimo abambaye impuzankano z'ubururu ubona ko zijimye ndetse n'abambaye impuzankano z'umuhondo, muri iki kibuga kandi hakaba hari ushinzwe gukemura impaka akaba yambaye umupira w'umutuku, aba ngaba bakaba barimo bakina umupira w'amaguru.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru cyubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ikibuga cyubatswe mu buryo busakaye uruhande rumwe. Muri iki kibuga, harimo abantu bicaye mu kibuga bamaze gukora imyitozo ngororamubiri. Abangaba imbere hakaba hahagaze umugabo ufite indangururamajwi urimo arababwira.

Ni abana batatu bari mu kibuga barimo bakina umupira aho muri aba bana harimo umwana umwe wambaye imyenda y'impuzankano ya siporo ko yambaye inkweto ndetse n'amasogisi n'ikabutura n'umupira bya siporo naho ku rundi ruhande hakaba hari umwana wambaye ibirenge ndetse n'ikoboyi n'umupira w'umukara bakaba barimo bakina umupira wmaguru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo barakina uyu mukino, hakaba harimo abambaye impuzakano z'umuhondo ndetse n'uwambaye impuzankano z'ubururu bwijimye, aba ngaba bakaba barimo bakina uyu mukino kugira ngo bishime.

Aba baturage ubona ko bishimye, akaba ari abaturage biganjemo igitsina gabo, ndetse muri aba baturage hakaba harimo n'abashinzwe umutekano akaba ari abapolisi. Abaturage bakaba barimo bakina umupira w'umupira w'amaguru.

Abakinnyi batatu bakina umupira w'amaguru bakaba bari mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, aha abakinnyi bambaye impuzankano z'umuhondo zirimo akabara k'umukara gakeya, izi mpuzankano zikaba zibafasha gutandukana n'abandi bakinnyi b'indi kipe bahanganye.

Ni urubyiruko rwinshi rwambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri rukaba ruryamye rurimo rurakora imyitozo ibafasha kumererwa neza, akaba ari urubyiruko rurimo rukora imyitozo hafi y'ikibuga kinini kibari inyuma yabo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, aho abakinnyi babiri bambaye impuzankano zisa ziri mu mabara y'ubururu, naho umwe washyize umupira ku mutwe akaba yambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ikabutura iri mu ibara rya orange.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, harimo abakinnyi babiri bakinana mu ikipe imwe ndetse n'abandi batatu bakinana mu ikipe yindi. Aba babiri bakaba bakina mu ikipe yambara umukara ndetse n'umweru, naho abandi batatu bakaba bambara umukara hasi ndetse no hejuru.

Abakinnyi bambaye impuzankano akaba ari abakinnyi bari mu kibuga, bakaba barimo bakora imyitozo ngororamubiri mbere y'uko batangira uyu mukino. Akaba ari imyitozo ibafasha kujya mu kibuga biteguye, ndetse no kwirinda yuko baza kujya mu kibuga hari uwagize ikibazo cyo kuvunika.

Ni urutonde akaba ari urutonde rugaragaza uburyo amakipe yitwaye, akaba ari urutonde rufasha abantu mu kumenya ndetse no gusobanukirwa uburyo amakipe yatsindanye hagati yayo.

Nta bakinnyi bagabuye mu byiciro bibiri, aho hari abakinnyi bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse hakaba hari n'abakinnyi bambaye impuzankano z'umukara. Akaba ari amakipe abiri agiye guhura. Aho mu ikipe y'umuhondo igiye mu izamu ryayo harimo barimo umuzamu wambaye impuzankano ry'icyatsi.

Ni urubyiruko rwinshi ruri mu kibuga kigari rurimo rukora imyitozo ngororamubiri, rukaba rurimo ruyikora mu masaha y'umugoroba, cyane y'uko rwarimo ruboneshezwa n'urumuri rw'amashanyarazi rw'amashanyarazi rwa nijoro.

Ikinyabiziga cy'amapine ane, akaba ari ikinyabiziga kifashishwa mu gukora ubwikorezi bw'ibintu bitandukanye, gishobora gutwara abantu ndetse kikaba gikora mu buryo bworoshye, ugereranyije n'ibindi binyabiziga.

Ni umugabo wambaye imyenda y'imikara hose, aho yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, akaba arimo aravugira kuri telefone, uyu mugabo akaba arimo agenda muri karitsiye, aho hirya ye hari imiyenzi ndetse n'uduhuru turi ku nzira.

Ni umusore wambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara, akaba ari umusore ufite indobo muri iyi indobo hakaba harimo isambusa, akaba ari umusore urimo ugenda mu muhanda wagenewe kugendamo n'abanyamaguru, aho iruhande rw'iwe hari umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga.

Ni umusore urimo utambuka wambaye ikabutura ndetse n'umupira w'umukara, akaba afite indobo irimo amasambusa, akaba arimo atambuka ahagenewe guca abanyamaguru. Muri uyu muhanda arimo atambukamo inyuma y'iwe harimo abandi bantu barimo bagenda ndetse hepfo y'iwe hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi, hakaba haparitse moto hafi aho ngaho.

Umumotari uri mu muhanda akaba ari umuhanda w'amabuye uyu mumotari akaba arimo agenda nta mugenzi atwaye, imbere yiwe hakaba hari umusore utwaye igare ririho ibitoki, hakurya y'uyu muhanda hakaba hari amazu akorerwamo ubucuruzi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho usangamo imodokari, hakurya y'umuhanda hakaba ari inyubako iparitsweho amamoto, amamoto ndetse ikorerwamo n'ubucuruzi bw'ibindi bintu bitandukanye.

Akayira gatoya gaca mu isambu karimo kunyurwamo n'abantu ariko ubuna ko ari akayira gafunganye ku buryo, ikinyabiziga, ikinyabiziga gikoresha amapine ane kuhanyura byakigora.

Umwana muto uri mu muhanda, urimo ureba hakurya aho ibinyabiziga birimo biraturuka. uyu mwana akaba afite igipine cyo gutembereza ku maguru yiwe ndetse n'inkoni bifashisha bagitembereza.

Ni mu muhanda w'itakaka aho hari umugore urimo ugenda, muri uyu muhanda hakaba harimo ubwatsi ndetse hakurya y'umuhanda mu mpande z'umuhanda hakaba hateye ibiti ndetse no kuri uyu muhanda bakaba baratangiye kuhaharura.

Ni umuhanda w'itaka akaba ari umuhanda wubatse mu cyaro aho aho uyu muhanda uri ku nkengero zawo hakaba hari ubwatsi uyu muhanda ukaba wifashishwa n'abaturage batuye muri aka gace barimo bava ahangaha bajya mu kandi gace cyangwa se ubu bwatsi buri ku nkengero z'umuhanda bukaba bwifashishwa mu kugaburirwa amatungo.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, aho hakurya y'umuhanda wa kaburimbo hari ubusitani buteyeyemo indabo ndetse n'igiti cyiza, aho hakurya y'umuhanda n'ubundi hari inyubako isize amabara y'ubururu, akaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari.